Abana bari kuvomerwa amazi meza ku gikorwa remezo k'ivumo rusange ryashyiriweho abaturage.

Kwa muganga, inzu y'ababyeyi, inzu ababyeyi babyariramo.

Abarwayi bari kwa muganga mu gihe cya korona vayirusi, bashyizemo intera ya metero hagati y'umuntu n'undi, kandi bambaye udupfukamunwa.

Iguriro ry'imiti mu ndimi z'amahanga, ni ibyo twita farumasi, ni aho umuntu ajya akagura imiti, yaba ukoresha ubwishingizi butandukanye cyangwa uwigurira imiti ijana ku ijana, akajya kwivuza.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'iroze, ndetse n'agapira ka orange arimo akora siporo.

Amacupa arimo imiti myinshi itandukanye. Imiti y'uruganda rwitwa foreva. Urwo uruganda rwitwa foreva rukaba rufite n'ishami hano mu Rwanda.